Ni akabare aho bafatira ibyo kunywa fanta inzoga, ndetse hakiyongeraho n'icyo kurya, isosi imeze neza, umufa urimo ibirungo byose umuntu akenera kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Inzoga zikomeye z'amarikeri, zinywa n'abifite bafite amafaranga. Ariko si nziza ku mubiri w'umuntu kuko zangiza umubiri, bigasaba ngo uzinywe gakeya mu rugero nta gukabya.

Ameza ariho ibirayi bibiri bitetse neza babyita mucoma. Iwacu amajyaruguru ushyiraho n'inyama, inyama zitetse neza y'akarusho ziri kucyokezo zavuye ku cyokezo, uziririye agubwa neza, iyo urisha ikirayi n'urusenda n'inyama bigenda neza.

Inyama zikase uduce duto dutoya bakazishyira mu duti barangiza bakazotsa bakoresheje ifuru ,abaziriye bamererwa neza akenshi zikunda kuboneka mu kabari cyangwa ahahurira abantu benshi...

Hoteri igira ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye，bituma abakiriya bayigana，dekorasiyo nziza，ameza，intebe biteguye neza， ku buryo ubibonye abona bisa neza， akifuza kuba yajyana n'umuryango we.

Ameza ateguye neza ariho ibiryo bitandukanye: imigati ,imbuto ndetse n'ibindi byiza wateguramo ubibonye akishima ukanogera amaso y'umukiriya kandi hateguye neza kuburyo umukiriya uhageze wese yifuza kuharira.

Aho abantu bahurira batandukanye bagasangira ibyo kurya, ibyo kunywa. Bishimye umuryango ugasohoka, buri wese akumva anyuzwe n'ibyo abona yishima harimo inzoga, harimo byinshi bitandukanye.

Iduka ricuruza ibyokunywa bita jini. Bikoreshwa cyane mu bisembuye. Uje kugura baramuhereza kandi n'uranguza bakamuha ibyo yifuza.

Aho bacuruza amakayi n'amakaramu kandi ibindi byose bigenerwa abanyeshuri biba bihari bakabona resitora aho bacuruza ibiryo n'inzoga ku ubyifuza wese uje kugura amakaye akaba yanakica n'akanyota.

Ubuconco ni ibintu umuntu acuruza bitandukanye inkoko, indodo, inshinge ,ibikwasi ,indobo n'ibindi bitandukanye, ni mu buconco Ku buryo buri wese yisangamo aje guhaha akabona icyo agura.

Iduka rishinzwe kwambika abantu imyenda itandukanye，bitewe n'uko umuntu areshya， n'uko umuntu angana， n'uko umuntu asa bitewe n'ibara ry'imyenda akunda， buri wese akanyurwa n'uko ahageze， ari inkweto，ari amakabutura ndetse n'ibindi birahari muri iryo duka rya Ngoga.

Amaduka ari ku muhanda mu gasenta cyangwa mu gasantere, aho abantu barigana bari kuza kugura ibyo bafite n'abanyonzi biteguye gutwaza umuntu waba ushaka kugura ibintu, ndetse n'umumotari witeguye gutwara abagenzi.

Mu iduka ry'amagare atandukanye aho haba hari aya siporo, hakaba hari n'andi asanzwe akoreshwa n'abanyonzi banyonga, abatwara imizigo, ndetse n'agize ikibazo bakayakora kuko na byo babifitiye ubushobozi.

Polisi y'ikoranabuhanga, aho abantu basigaye bakoresha telefone, bagakoresha mudasobwa, falashe bafata amakuru y'uko ibintu bimeze. Ntabwo rero ibyo byose byagerwaho hatabayeho kuranga, umuntu ngo agaragaze aho akorera n'ibyo akora kugira ngo babashe kumugana.

Iduka ryiza kandi rishimishije, ryambika abantu bitewe n'ubagana. Ryambika abagabo inkweto, karuvati, imyenda y'imbere, ndetse wanarwara ukihutira kujya kwivuza, kuko rifatanye na farumasi, aho umuntu agurira imiti.

Kera byari bigoye cyane ko wabona inzu nk'izi mu Rwanda cyangwa i Musanze mu majyaruguru. Ariko ubu abantu baratinyutse u Rwanda rufite abashoramari batandukanye cyane cyane abanyarwanda, aho umuntu asiye yaratinyutse akubaka inzu nziza imeze neza kandi inogeye amaso.

Umubyeyi uri gushaka imibereho ku muhanda aho ari gucuruza ibitunguru, ndetse n'ibindi bitandukanye, aho kandi hari n'iduka bitandukanye bacuruzamo ibitanda ndetse n'ibindi byatuma umuntu abasha kubaho.

Impeta z'ubwoko butandukanye aho harimo izo bahereza abafiansaye abitegura kurushinga, amubwira ko yamubera umugore, izo batanga bamaze gusezerana imbere y'Imana babyemeranyije bombi kubana.

Icyapa kiranga aho bacuruza matera ya Rwandafomu, byari bigoye cyane kera ko umuntu yabonaga aho aryama. Abaga bafite uburyamo butari ibyatsi, atari ibishangara, byabaga ari bikeye. Ariko matera ubu abenshi baziryamaho.

aAaduka atandukanye akora ibikoresho bita eregitoronike, harimo: ipasi, tereviziyo, telefone ibafasha kuko tugeze mu isi y'ikoranabuhanga udafite telefone cyangwa mudasobwa aba asa nkaho ari inyuma mu iterambere.

...atandukanye akora cyangwa acuruza ibintu bitandukanye. Cyane cyane harakora ibijyanye n'utubati mu nzu, ibitanda nta muntu ukiryama muri nyakatsi mu Gihugu cyangwa ngo ararane n'amatungo, ahubwo ashaka igitanda bigatuma abasha kugira amagara meza.

Amaduka yegeranye baguramo ibintu bitandukanye bacuruza, harimo umuntu ushinzwe kudodera abantu bamugana inkweto ziba zacitse n'abakeneye gukoresha inshyashya, ndetse haparitswe n'amagare.

Rukara supamaketi ni ikirango cyiza cyane kigaragaza ibyo bakora. Kandi ikindi bakora basuka abagore batunganya imisatsi, ikintu cyose washaka wakibonayo kijyanye n'icyo kurya, ndetse kijyanye no gutunganya ubwiza.

Amaduka ari ku muhanda ateye irangi, mbere yaho hari pave utwo basasa kugira ngo habe hasan neza. Hariho amakaro hejuru uburyo bwo kwigaragaza neza, bacuruza ibintu bigiye bitandukanye uhageze wese yishimira ku hareba.

Ibikorwa umuntu akora bituma abasha kubona abakiriya. Ibyapa birangira neza abaguzi bakaza badashidikanya aho bagiye. Resitora habamo ibiryo, habamo ibyo kunywa ndetse n'ikindi wakwifuza biba bigaragazwa mu ishusho nini y'icyapa.

Nti bikiri ngombwa gutonda umurongo ugiye muri banke kuko guverinoma y'u Rwanda cyangwa sosiyete ishinzwe amabanki yageragereza abantu a uburyo bwo kubikuza amafaranga yabo. Ekwiti agenti haba hari ashinzwe kukubikuriza, BEKA abashinzwe kukubikuriza, ndetse no gukora ibyapfuye byatuma ubasha kuguma ku ikoranabuhanga.

Maneke ni ikibumbano bambika imyenda itandukanye, kugira ngo uje ashaka umwenda awubone, niba ari uw'abagabo ahite yibwira ko ari uw'abagabo, kandi iduka rikunze kubikora ni iduka ricuruza ibijyanye n'imyenda.

Amaduka abiri arimo ibitandukanye bigurishwa, cyane cyane gaze, kuko yaje ari igisubizo ku Banyarwanda bose, hirindwa kwanduza ibidukikije. Kuko gaze ntitera imyotsi yakanduza ikirere...

Inyubako nini icururizamo imyenda itandukanye irimo amashuka, imisego, ibiringiti ndetse n'imyenda y'abana imanitse myiza bitewe nuko wumva wifuza uraza uguhitamo ukakurebera unoge amaso yawe.

Imvugo ni yo ngiro. Paparume hoteli, hoteil iri ku kumuhanda, ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye bitanga amahumbezi, bitanga akayaga keza ndetse n'abariramo bagubwa nezau kuko iri ku muhanda.

Amazu arangwamo no gucuruza ibikomoka ku amatungo, inyama z'inka, ibikomoka mu amazi, amafi. Ubiriye wese agubwa neza, atuma cyane cyane ku umwana akura neza, afite ubuzima bwiza.

Igikorwa remezo cya mbere gikomeye ni amashanyarazi aho hari insinga zitandukanye zijyana amashanyarazi mu nce zitandukanye, amaduka acuruza ibintu bitandukanye cyane cyane gaze ikoreshwa bateka birinda kwangiza ibidukikije.

Amaduka atandukanye acuruza ibintu byinshi bitandukanye , aho hari ibikorwa remezo ,umuhanda, aho abagenzi baparika ibinyabiziga byabo ku buryo uwaza guhaha yabona aho ashira imodoka ye.

Fesibuke ubu Abanyarwanda bamaze gusobanuka igitabo cy'isura. Ni ikoranabuhanga rihuza abantu benshi batandukanye aho ushobora gukoresha usura inshuti mu buryo butandukanye, ndetse ukahungukira n'umuryango mugari.

Parike nasiyonari y'ibirunga ibarizwa mu Kinigi kuva i Musanze ugerayo ni ibirometero bitatu aho usangamo ingagi, ugasangamo n'ibindi biti bitandukanye bibamo, bishobora gukiza umuntu indwara.

Isoko rihuza abantu batandukanye, baje kugura imbuto, imyembe, amaronji, ibinyomoro, imineke, ibirayi, buri wese akisangamo. Isoko mpuzamahanga.

Bete ni umukino w'amahirwe umuntu akina agatega yatsinda akabona amafaranga bitewe n'uko yateze, yatsindwa akihangana. Iyi nyubako iriho byinshi bitandukanye, aho bacuruza ibijyanye n'ubwubatsi, aho bacuruza n'ibindi bitandukanye byagirira umuntu umumaro.

Inzu nziza muri karitsiye, aho abantu bose bisanga. Kera byari bigoye kuko kubona akabari kameze neza gasobanutse, hari ibikorwaremezo umuhanda aho waparika imodoka igihe uje kunywa n'umuryango, mukishima ubundi mugataha mumeze neza.

Icyicaro cya safintira, inyubako nziza igeretse. Igorofa safintira iri kuranga ibikoresho byayo ikoresha muri Musanze, mu majyaruguru. iki ni icyicaro cyayo, niho ikorera.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye amashuka , ibirangiti, kuvuleri ,eswime ndetse n'ibitanda. Ku wifuza kubirangura baba banditseho nimero kugira ngo babashe kwamamaza ibyo bakora.

Imodoka zicuruza ibikoresho by'ubwubatsi, cyane cyane insinga bakoresha barahura umuriro, kuko ubu ngubu u Rwanda rwarasobanutse nta munyarwanda wifuza kubaho adafite amashanyarazi ngo arare ahabona, ikizima ntabwo ari cyiza.

Ubu urugo ntabwo rugihahirwa n'umugabo gusa ahubwo n'umugore yaratinyutse arakora, ajya gushakisha ubuzima yikoreye ibihaza agenda azunguza mu baturage, ababaza ko bamugurira kugira ngo nawe abashe kwiteza imbere.

Iyo ubonye icyapa cyanditseho supamaketi bivuze ko ibyo ushaka byose uri bubibone muri iryo duka ugiye kwinjiramo，harimo ibyo kurya， imbuto ndetse n'ibindi utapfa kubona ahandi hantu urabihasanga.

Kuko turi mu isi y'ikoranabuhanga umuvuduko wihuta bakoreshwa mango foji kugira ngo ubashe kugera ku bwihude umuntu agomba no gu gusa neza yambaye nk'abagore bakambara amajipo n'amakote n'amakanzu bagasa neza.

Amaduka, ari ku muhanda ahantu hitaruye heza, umuntu wese utambutse abasha kuyabona, aho bacuruza intebe n'imifariso umuntu yicaramo akamererwa neza, urwaye umugongo ugakira, bacuruza ibikapu by'abagore, imyenda, uwambaye kandi aba agaragara neza.

Isoko rinini ryiza rya kijyambere umuntu asangamo ibiribwa bitandukanye. Cyane cyane ibihaza. Ibihaza bikaba ari ibiryo umuntu arya nk'imboga, akabirya nk'umutsima, bikamutera imbaraga. Bigatuma umuntu amererwa neza mu nda, byoza amara.

Akabare kameze neza, harimo inzoga zigiye zitandukanye sikoro, pirimusi, mitsingi, king, gatanu kabaga kari ku muhanda utambutse wese abasha kukabona.

Uwo bita umuzunguzayi w'igitsina gore aho ari kugenda acuruza inkweto, igitenjye, imyenda ku bakiriya batandukanye mu muhanda rw'agati kugira ngo abashe kureba ko yabona ubuzima akibeshaho.

Iduka rinini ririmo bigiye bitandukanye bya elegitoronike, imipira y'abana , amazi yo kunywa ntibayasize kuko amazi ni ubuzima uyanyweye agubwa neza kandi amurinda uburwayi butandukanye.

Aho abamotari bahurira bagiye kurya, kandi ni naho abamotari bakorera moto zabo, niho bahurira mu rwego rwo kugira ngo bakemure ibibazo baba bafite, bagahurira ahantu hamwe, ahantu hamwe bumvikanyeho.

Niba ushaka ko ibyo ucuruza cyangwa ukora bibona abakiriya urabyamamaza ushiraho icyapa nkuyu yashyizeho icyapa kivuga niyu resito bale benzi limitedi bivuga ngo harimo resitora hakabamo bale ndetse n'ukeneye benzi cyangwa akabenzi ya nyama y'ingurube akayibona kandi hafi iryoshye.

pope saloni musanze, ni salo ishinzwe gutegura ubwiza ku bagore, bagabo, imisatsi, ushinzwe no gutegura ubwiza bw'umugore kugirango arusheho gusa neza, ari abagore ari abana, ari abagabo buri wese yemerewe kuhagera akiinjira.

Amaduka ameze neza ari ku muhanda, yujuje ibyangombwa byose hejuru ateye amakaro. Hariho n'ikimenyetso kigaragaza ibyo bakora. Nujyayo harimo inzira umuntu acamo hakabamo na rigore zicamo amazi, kugira ngo hatagira ibyago byatera.

Icyapa kinini cyane kiranga uburyo ki wakoresha wohereza amafaranga ukoresheje imwe muri sosiyete ishinzwe itumanaho bita eyateri ikakwereka buryo ki wabona amayinite ugahamagara ku buntu.

Iyo umuntu yabaga afite amafaranga akajya kuri hoteri, kubona aho yarara cyangwa yacumbikirwa byabaga bigoye, ariko ubu amacumbi yabaye menshi ndetse n'ibikorwa remezo, nk'amashanyarazi ari henshi kugira ngo abantu babashe kugenda mu gihugu cyose ntaki kibazo.

Ibikorwaremezo kimwe mu cyubakiwe abaturage, kugira ngo hakorerwemo ubucuruzi bugiye butandukanye, aho ba rwiyemezamirimo baba baratinyutse bagakora ibigiye bitandukanye, cyane cyane bagakora ibiryo umuntu ashobora kurya ako kanya, cyangwa watwara mu rugo ukarya, ibyo byose ntibituma umuntu akora ntagire umwanya wo gupfusha ubusa.

Ubu serivisi zose umuntu ashaka zegerejwe abaturage aho umuntu asigaye ashaka: kujya gupimisha ubutaka, kwishyura mituwele, gukora imvitatiyo ku bantu bashaka gukora ubukwe, gupuritinga impapuro, gufungura tini namba, ugakoresha ababigize umwuga abajenti baboneka ahantu hose hatandukanye.

Mu rusengero naho habamo amakorali atandukanye. Amakorali ashinzwe guhimbaza Imana, kuririmba abari muri urwo rusengero bakamererwa neza, imitima yabo igahembuka. Korali igira impuzangano itandukanye, kugira ngo aho abareba bamenye ko bameze neza kandi bahuje.

Inzu nziza iringaniye ariko nziza irangwa n'ubusitani bumeze neza, aho hari pasiparumu ,hari aho abagenzi baca, ndetse hakaba hanateguye amatara twajyaga dukunda kubona kera mu gihe habaga hataraba umuriro, ibi nabyo bitwibutsa ko kera habagaho amatara acanwa na peteroli.

Ahantu bamaze gusobanuka, kurangira umuntu ushyizeho icyapa bituma amenya bizinesi ukora, akamenya n'icyo ushi ukora bigatuma n'ukugana wese abasha kubona serivise Kandi akanabibona hakiri Kare.

Inzu nziza cyane irimo amakaro atandukanye ay'umweru, ay'umukara inzugi zitandukanye ndetse ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza ku buryo umuntu wese yumva yakwishimira kuhifotoreza ko aba abona yaba ari heza.

Ibikorwa remezo bimaze gukwira ahantu henshi hatandukanye, amashanyarazi, imihanda imeze neza. Muri ubwo buryo ba rwiyemezamirimo na bo babonye ko ari ngombwa ngo begereza abaturage serivisi amahoteli, ndetse uhageze wese akabasha kubona n'aho aruhukira ameze neza.

Inzu nziza y'amateguraga, harimo n'urusasa, jaride nziza cyane, iraciriye cyane, ikoze neza, urugo runini rufite ibyifuzwa byose.

Kurika moteri naho usangamo ibyo kunywa bitandukanye ari ibisindisha n'ibidasindisha hakiyongeraho n'ibyokurya burushete ndetse n'ibindi. Nubagannye yakenera imodoka ye ishizemo esanse bakamushiriramo kuba bafite amavuta aho hoho.

Hoteli Muhabura iri ku muhanda ahantu hari amahumbezi uhageze wese amererwa neza hakirirwamo abakerarugendo baturutse kure cyane cyane ko i Musanze ari iwabo w'ubwiza uhageze agubwa neza muri hoteli bifite amahumbezi.

Amatisi atandukanye adorwamo ibintu bitandukanye. amapantaro, amakanzu, impuzankano z'abanyeshuri bikadorwa n'imashini ndetse n'abagiye kubyiga kugira ngo biteze imbere, babashe kugaburira urugo rwabo n'abana babo.

Umusore arangwa no kwambara kandi akeye bitewe n'ubushobozi ufite ibitenge bigiye bitandukanye kandi bikaba ku amabara atandukanye wambara ukurikije uko ubushobozi bwawe bungana ariko ukaba uberewe kandi usa neza.

Isambusa cyangwa ibiraha ni ubwoko bw'ibiryo umuntu arya ako kanya bikoze mu ifarini, aho ushobora kubirya ukoresheje ibindi bintu bitandukanye, kuko haba harimo inyama, ibirayi, ndetse ukaba wanabisomeza icyayi, ukabirya ukumva umerewe neza mu mubiri wawe.

Kugira ngo harwanywe imirire mibi n'igwingira ry'abana bakoresha ifu y'abana ni imvange y' ifu ivanzemo amafu atandukanye masaka, ibigori ,soya ndetse n'ibindi kugira umugore akomeze agire isuku atera kata agashiramo na shapo kugirango umusatsi we ukomeze umererwe neza.

Isoko ry'imyenda itandukanye imyenda bita caguwa, amapantaro y'amagingisi cyangwa y'amakoboyi, imyenda y'abana buri wese iyi myenda ayisangamo kuko iba igura makeya.

Cyane ko hakunda kwera ibirayi bamara kubibona bakabitotiza imodoka bikajyanwa mu zindi ntara zitandukanye cyangwa mu yandi masoko kugira ngo n'abandi nabo babashe kujya kurya kwibyo birayi kuko bitera imbaraga.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye: abagabo n'abagore, abana, urubyiruko, aho baba baje gushaka ibyo kurya mu maduka atandukanye harimo: intebe, inkoko n'ibindi bitandukanye byo mu buzima bwa buri munsi.

Isoko ry'abaturage, batandukanye abagabo n'abagore, habamo imbuto kokombure, wotameloni, amaronji n'amasafuriya, n'amabase bikoreshwa mu gukoresha isuku.

Ibikoresho byo mu igikoni amasahani, amaparato, amasafuriya, ibikombe ndetse n'ibindi byo mu gikoni. Kugirango ubuzima bubashe kubaho neza n'ubona n'ibiryo ubone aho biririra, ubone naho ubyarurira.

Ubucuruzi butandukanye bw'ibyombo cyangwa ibikoresho byo mu rugo, ijage ikoreshwa basuka amazi, isafuriya ikoreswa bateka, ibase ni igikoresho cy'isuku umuntu akoresha yoga, yoza abana, kandi ikiringiti gikoreshwa umuntu yiyorosa cyane ko mu majaruguru haba hari imbeho nyinshi.

Mu iduka ririmo ibase harimo ibitunguru bita pavuro kandi n'ibitunguru bitukura, onyo ruje bifasha umuntu kuko ni umuti.

Amaduka manini meza ya kijyambere agezweho aho usanga mo imyenda ya kigabo yitwa coto, imisego, ibikapu, n'abantu bakishimira no kuhatembera kuko isoko rirakeye rifite n'isuku.

Imucuruzi w'imbuto zitandukanye izo mbuto ni :imineke, amaronji ,marakuja ndetse n'izindi zitandukanye; imineke ibitoki bihiye ,ibitoki bitari byashya.

Iduka ririmo ibintu bigiye bitandukanye bavuga nk'ubuconco ariko ukeneye wese ikintu cyo kurya arakibona, hari mo amavuta hari mo amasafuriya hari mo n'amabombo ku bana n'amabiswi imiceri, bivuga ngo uhageze wese abona icyo yifuza.

Ikigage cyangwa ubushera cyangwa igipende kenshi bikorwa biturutse mu masaka bita amamera iyo bamaze kuyashesha havamo ikigage abantu batunywa bagashirinyota.

Umugore wicaye uri gucuruza imyumbati irambitse ku mufuka. Ndabona n'inyanya hirya zitukura, iri ni isoko ry'abaturage.

Isoko mpuzamahanga ry'ibiribwa n'imbuto zitandukanye harimo: wotameloni ,imyembe , amaronji ,aho buri wese aza kugura bitewe n'icyo ashaka kugira ngo umuryango we na we wihaze umererwe neza wirinde inzara.

Isoko rinini cyane rihuza abaturage batandukanye. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'isuku, byo guteka, imyambaro, ni isoko rinini ariko riba mu giturage aho rihuza abantu benshi, rikarema rimwe na rimwe mu cyumweru.

Isoko rya kijyambere ryiza ryujuje ibyangombwa byose, imiryango myinshi kugira ngo abantu batabyigana, parikingi hanze aho imodoka zishobora gushirwa, ubusitani hirindwa kwangiza ibidukikije ndetse binazana n'umuyaga mwiza ku biti bihatewe.

Imbuto n'imboga aho usangamo imyembe, intoryi, inyanya, mbese ni Isoko buri wese yisangamo, bigatuma umunyarwandakazi yiteza imbere. Ari umugore, ari umugabo abasha gucuruzamo, akabona icyo agaburira urugo rwe.

Isoko rya kijyambere ryiza. Rimeze neza, rishyashya, ryuzuye. Kugira ngo buri wese arigane yiteze imbere acuruza ibitandukanye. Isabune, amavuta, ibirungo, kawunga, ibyo gupfunyikamo, byose wabisangamo, kugirango ubiriye agubwe neza.

Ku rinini ririmo ibikoresho bikoreshwa mu rugo ibase bayikoresha bari gufura hirindwa umwanda cyangwa gukoresha bari gukaraba, ibikombe bakoresha bari kunywa, amasafuriya ,amasahani akoreshwa abantu bari kurya kugirango ngo babashe kubaho bameze neza bari musuku.

Isoko rinini, nk'ababyeyi bashaka ibisheke, bakabigura bamara kubigura cyane cyane abagore n'abakobwa bakajya kubicuruza iwabo kugira ngo babashe kubonamo amafaranga abafasha kujya kwiteza imbere, na rwo ni urubuto rwiza.

Isoko ry'ibitunguru rigari. Riri gucururizwamo n'abagore. Bafunze ibitunguru bitewe n'amafaranga bahereye ku mufungo mutoya bazamura kugira ngo babashe kubona abakiriya biteze imbere, na bo babane uko babona igishoro kibafasha gukomeza gutunga imiryango yabo.

Isoko ryiza rya kijyambere ry'imboga n'ibiribwa muri rusange, harimo inyanya, karoti, intoryi, imiteja, pavuro, ibitunguru n'ibindi bigiye bitandukanye bituma umuntu amererwa neza.

Isoko rinini ricuruzwamo imyambaro, ibitenge, abatayeri bari kudoda imyenda itandukanye, ndetse hagaterwa n'ipasi, kuri iyo myenda imaze kudorwa, kugira ngo bayihereze umukiriya imeze neza.

Amaduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye, amashakoshi y'abagore y'ubwoko butandukanye biterwa n'umuguzi n'amafaranga afite uko angana kandi uje wese abona binogeye amaso imyenda itandukanye kandi n'iduka rirasa neza kuburyo burirya wese yifuza kugaruka.

Iduka ririmo ibiribwa bitandukanye, umuceri, kawunga, cyane cyane ibirungo bashira mu muceri, vimu ikoreshwa boza ibyombo kugira ngo birusheho gucya, salisa ushyira mu biryo kugira ngo bitukure, binaryohe binagaragare neza.

Isoko rya kijyambere rimeze neza, ryubakiye, ririmo imbuto zitandukanye: wotameroni, imyembe, amarongi na pome. Bifasha umuntu kwirwanya imirire mibi, ku bana ndetse no ku bantu bakuru, ko binarinda indwara.

Isoko rya kijyambere ryiza ryubakiye, riremwa n'abantu b'ingeri zose zitandukanye, abagabo, abagore, abana, habamo ibiribwa bitandukanye hirindwa inzara n'igwingira mu bana. Imboga, ibyo kurya, ibirayi, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye.

Kuko icuruza ibirungo, tungurusumu ikoreshwa nk'ikirungo kandi ikaba iba n'umuti ku muntu cyane cyane urwaye amibe. Igitunguru gitukura baragikaranga kandi ikoreshwa nk'umuti aho bagikoresha bakora umuti w'inkorora. Pavuro, seleri ibyo byose ni ibirungo.

Amazi ni meza mu buzima bwacu bwa muntu. Agira imimaro mwinshi mu mubiri, asohora imyanda mu mubiri, iyo umuntu yanyweye arwaye, hari igihe akira kandi cyane cyane ku bantu barwaye indwara umutima, iperitansiyo n'ibindi, bakwiriye kunywa amazi kugira ngo umubiri wa bo ubashe kumererwa neza.

Isoko rinini rihuza abantu batandukanye cyane cyane abacuruza imyenda bita sekeni cyangwa caguwa, iva hanze y'Igihugu ariko buri wese akibonamo kuko iba ifite ibiciro bitandukanye. Rubanda rugufi akabasha kubona icyo yakambara.

Umunyu igicuruzwa cy'ingenzi cyane aho ibiryo bitagira umunyu umuntu aba yumva bitaryoshye, umunyu udufasha kugira ngo ibiryo biryohe. Ji cyane cyane abana barazikunda iyo ufatishije biswi ndetse na yawurute bigenda neza. Uyu nawe yihangiye umurimo kugira ngo arebe ko yakwiteza imbere.

Isoko rinini ry'abaturage b'ingeri zose batandukanye bavuye ahantu henshi, aho usangamo ibintu bigiye bitandukanye amasafuriya, ibyo kurya n'ama inite cyangwa abajenti ba emutiyene, bikabafasha kubikuza no kubitsa amafaranga yabo ku buryo bufite umutekano.